Umwana uri guterwa urushinge na muganga amukingira indwara, umwana ateruwe n'umubyeyi ndetse hirya hari abandi baganga bahari.

Abana benshi bahuriye ahantu bari kwitabwaho n'abayobozi, aba bana bambaye imyenda irimo amabara y'umuhondo ndetse bafite ibibazo bigiye bitandukanye by'imirire.

Abana benshi bambaye imyenda y'umuhondo, bari guhabwa ubufasha n'abantu babari imbere, muri abo bantu harimo abagabo ndetse n'abagore.

Umugore utaruye umwana arishimye kandi arimo araseka, hirya hari abandi babyeyi baje kwa muganga gukora ibikorwa bigiye bitandukanye, harimo abaje kwivuza n'abaje gutanga mituweli.

Abantu bateraniye hamwe ni benshi cyane, bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'icyatsi, harimo abagabo ndetse n'abagore, bigaragara ko ari abajyanama b'ubuzima bagiye kwita ku baturage.

Abana bari ku iriba baje kuvoma amazi, bari kumwe n'umugore uri kubafasha kubona amazi byoroshye. Bari ahantu ku iriba rinini, rivaho amazi meza. Iri riba, rikoreshwa n'abantu benshi.

Abantu bahuriye ku iriba baje kuvoma amazi, bafite amajerekani menshi. Amazi ni ingirakamaro kuko afasha abantu kugira ubuzima bwiza kandi bikoroshya imibereho yabo.

Umuganga urimo kwita ku murwayi, umuganga yambaye imyenda y'ubururu ndetse umurwayi yambaye umupira w'umuhondo, hirya yabo hari undi muganga wambaye agapfukamunwa.

Umukobwa wicaye ku iriba arimo kuvoma amazi, hirya ye hubatse inzu isakaje amabati; iryo riba riri ahantu munsi y'igiti cyiza, gifite amashami menshi.

Mu kigo cy'amashuri hari ibikoresho byifashishwa, harimo ibyo bajugunyamo imyanda, ndetse n'ibindi byinshi hari umwana w'umukobwa urimo gukaraba kw'iriba.

Abana bahuriye kui iriba baje kuvoma amazi, ni abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse biragaragara ko ari abana bato, bafite indobo z'umuhondo.

Abantu bane bari imbere barimo gutanga ikiganiro bakigeza ku baturage. Aba bantu bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu ndetse n'umukara, bigaragara ko ari abayobozi.

Abantu barimo kwifotoza bambaye imyenda y'umweru n'ubururu. Harimo kandi uwambaye indorerwamo z'amaso urimo guseka, biragaragara ko ari abaganga.

Abajyanama b'ubuzima bafite imiti igiye itandukanye. Bahagaze imbere y'inyubako nini, iri gukorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi. Bafite imiti mu ntoki.

Abana bahuriye ku iriba baje guvoma amazi, ni abana benshi bambaye imyenda y'imikara, umutuku ndetse n'icyatsi, aba bana biragaragara ko baturutse mu bice bitandukanye hirya no hino.

Ikigega cyifashishwa bashyiramo amazi yo gukoresha, ni ahantu ubona ko ari heza, iki kigega kandi bakifashisha babikamo amazi kugira ngo azifashishwe mu gihe cy'izuba maze bayabone bitabagoye.

Ku iriba hahuriye abantu benshi cyane baturutse hirya no hino, harimo umugore uri kuhagira umwana muto, hirya ye hari abandi bari kuvoma.

Ku iriba hahuriyeyo abana ndetse n'abantu bakuru, baje kuvoma amazi. Amazi ni ingirakamaro kuko akora ibintu byinshi mu buzima busanzwe, amazi kandi niyo abantu boga kugira ngo bagire umubiri usa neza.

Abana babiri bahuriye ku iriba baje kuvoma amazi, aba bana bafite amajerekani bigaragara ko bakeneye amazi yo gukoresha, hirya yabo hari ibyatsi byinshi bikoreshwa mu bintu bitandukanye.

Umugabo urimo guseka wicaye ku ijerekani yambaye ishati y'umweru, inyuma ye hari ibyatsi byinshi kandi yaje kuvoma amazi kugira ngo ayakoreshe mu buzima busanzwe.

Inyubako irimo abayobozi bagiye batandukanye, bambaye amakoti meza ndetse n'amashati. Iyo umuntu ari umuyobozi yambara neza, kugira ngo agaragare neza kandi bimuheshe agaciro.

Abantu bari mu nyubako ikorerwamo inama, hari abayobozi bari kubakoresha inama kugira ngo bungurane ibitekerezo, aba bantu kandi harimo abagabo ndetse n'abagore.

Mu nyubako nini hateraniyemo abantu benshi, imbere yabo hari abantu bahicaye barimo kubaganiriza, bari kwiga ku bibazo bigiye bitandukanye biri muri sosiyete kandi bikeneye gukemurwa.

Ikigega kijyamo amazi abantu bakoresha mu buzima bwa buri munsi. Aya mazi kandi ni yo bakoresha igihe izuba riba ryaravuye amazi yarabuze.

Inyubako isakaje amabati atukura ndetse isize amarangi y'umweru. Iyi nyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye. Iri ahantu ku musozi heza.

Kwa muganga hatangirwayo serivisi zigiye zitandukanye. Hari abaganga batatu bafite ibitabo barimo kwandikamo imyirondoro y'abarwayi baje babagana.

Abantu bambaye ingofero z'umweru n'imipira y'ubururu. Bari ahantu mu nyubako, ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Abantu baturutse mu bice bigiye bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, ubururu, umukara n'ayandi agiye atandukanye. Bigaragara ko bari ahantu mu nyubako nini.

Umwana uri ku iriba arimo gukaraba amazi n'isabune kugira ngo imyanda imuri mu ntoki ishiremo, iyo umuntu akarabye neza bituma agira ubuzima bwiza.

Abana bahuriye ku iriba baje kuvoma amazi, bafite utubido ndetse n'amajerekani bari gukoresha kugira ngo bacyure amazi menshi, hirya yabo hari ibitare.

Abantu bari ku iriba barimo baravoma amazi, ni umugore ufite ijerekani ndetse iruhande rwe hahagaze abana na bo baje kuvoma.

Abagore batatu bari ku iriba bagiye kuvoma amazi, bambaye ibitenge. Ni abagore ubona ko bafite ubushake bwo kuvoma kugira ngo bacyure amazi vuba.

Ku iriba hahuriyeyo abana benshi baje kuvoma amazi, aba bana barishimye, iyo umuntu akoresheje amazi neza bituma adasesagura.

Umugabo urimo gutanga imbwirwaruhame, yambaye ikoti ryiza ry'umukara, uyu mugabo kandi yambaye indorerwamo z'amaso zimufasha gusoma.

Abantu bambaye imipira irimo amabara y'ubururu. Ni urubyiruko ruri mu bikorwa byo kwiteza imbere kugira ngo babashe kubaho neza.

Kwa muganga barimo kuvura umwana. Umwana yazanywe n'umubyeyi umwicaye iruhande. Bigaragara ko uyu mwana arembye.

Inzu yahuriyemo abantu benshi bigaragara ko barimo kuganira ku bibazo bigiye bitandukanye. Harimo abagabo, abagore ndetse n'abakobwa bato.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana, arimo aramukarabya intoki. Uyu mubyeyi yambaye agapfukamunwa ndetse n'umupira w'ubururu, uyu mwana biragaragara ko ari umunyeshuri wiga mu mashuri abanza.

Abana barimo koga bambaye ubusa, bari ahantu mu kizenga kinini, bigaragara ko barimo kuruhuka maze bakajya koga kugira ngo bamere neza.

Ku iriba hahuriyeyo abantu benshi baje kuvoma amazi ndetse bafite amajerekani y'umweru, umuhondo n'icyatsi, harimo abagabo n'abagore.

Abantu bambaye imyenda y'amabara agiye atandukanye bari gutanga ibiganiro, bari kubigeza ku bantu bitabiriye inama ndetse hibandwa ku nsanganyamatsiko yabateranirije hamwe.

Abantu bifotoje barimo guseka, harimo bambaye indorerwamo z'amaso ndetse yambaye ikote na karuvati, ari kumwe n'umugore watebeje.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda y'umweru n'umukara. Bari ahantu bari gushaka serivisi yo kugira ngo bakemure ibibazo bigiye bitandukanye.

Amusore uri kumwe n'umwana bambaye imyenda isa, uyu umusore yambaye indorerwamo z'amaso ateruye umwana amushyira ku munzani kugira ngo arebe ibiro afite abashe kumufasha.

Ahantu hahuriye abantu benshi, barimo gukora ibikorwa bigiye bitandukanye, bari mu nama, ubona ko imbere yabo hateretse amazi yo gukoresha ndetse imbere hari umuyobozi uri kubaha ikiganiro.

Abana bari ku iriba baje kuvoma amazi, aba bana bafite indobo ziri mu ibara ry'umuhondo, bigaragara ko bakeneye amazi yo gukoresha.

Abana babiri bari gukaraba amazi ndetse n'isabune, kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Iyo ukarabye amazi n'isabune, imyanda ishiraho maze ugakora imirimo yawe nta nkomyi.

Kwa muganga hateraniyeyo benshi, harimo abambaye imyenda y'umweru, abambaye imituku ndetse n'imikara.

Inyubako yateraniyemo abantu benshi, bambaye amakoti ndetse n'amashati, bari kwiga ku buryo barandura icyorezo cy'indwara ya marburg.

Abantu bahuriye imbere y'inyubako bambaye imyenda y'ubururu, umweru n'umukara, biragaragara ko ari urubyiruko rwahuriye ahantu mu gace kamwe.

Umwana uri kuvoma amazi ku iriba akoresheje igikombe, ni ukugira ngo abone amazi yo kunywa kugira ngo yirinde icyaka kandi agire ubuzima bwiza.

Abagore batanu bahuriye mu nyubako, barimo kuganira. Biragaragara ko ari kwa muganga bahuriye ndetse bari guhabwa inama na muganga.

Ihuriro ry'abantu benshi baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda irimo umukara, ubururu, umutuku ndetse n'umuhondo, bari mu nyubako nini iberamo inama.

Abantu bahuriye hamwe baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imipira y'umukara n'umweru, inyuma yabo haparitse imodoka nini nziza ubona ko ari yo aba bantu bajemo.

Umuntu bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, ari ahantu mu muhanda. Yambaye imyenda yacitse kandi afite ibintu by'ibishashi mu ntoki ndetse n'igikapu.

Umugabo wambaye ipantaro y'umweru uhetse igikapu, ari imbere y'icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara n'ubururu, inyuma ye hari inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Umugore witeze igitambaro mumutwe, usa nk'aho yarakaye. Uyu mugore afite ikibazo nk'uko bigaragara. Iyo umuntu afite ikibazo si ngombwa kubyihererana ni ngombwa kubibwira abandi.

Umugabo umeze nkaho afite ikibazo cyo mu mutwe, ari mu muhanda, biragaragara ko akeneye ubufasha, kandi bigaragara ko afashijwe yabasha gukira.

Umubyeyi w'umugore yicaye ku musambi ari kumwe n'abana be babiri, arimo aronsa umwana umwe ukiri muto ukeneye gukura.

Mu nyubako nini hateraniye abantu biganjemo abagabo n'abagore, barimo kwiga ku nsanganyamatsiko zigiye zitandukanye, ndetse banakemura bimwe mu bibazo bahura na byo.

Umusore wambaye ingofero irimo akabara k'umukara ndetse ahetse igikapu, uyu musore biragaragara ko afite ikibazo akeneye umuntu umuba hafi.

Umukobwa wifashe mu mutwe bigaragara ko afite ikibazo, yambaye umupira w'umweru, ari mu cyumba kinini kandi gisize irangi rijya gusa nk'ivu.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ishati y'umutuku, biragaragara ko ari umuganga wabihuguriwe kandi afite impamyabumenyi.

Abantu babiri harimo umwe wifashe mu gahanga, bigaragara ko afite ikibazo, iruhande rwe hari undi uri kugenda amuhumuriza.

Umukecuru utetse atekeye ahantu hanze ubona ko ari kwitegereza abantu bari kumwe. Imbere ye hateretse igikombe cyiza kirimo amazi yo kunywa.

Abantu bateraniye hamwe barimo baraganira, ni abantu batanu harimo umugabo umwe n'abagore bane bari kwiga ku bibazo bitandukanye bagenda bahura na byo mu buzima bwa buri munsi.

Mu nyubako yateraniyemo abantu benshi, barikwiga ku bibazo bigiye bitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, barikwitegereza imbere umuntu uri kubaha imbwirwaruhame kugira ngo babone ubutumwa bacyura.

Ababyeyi bahuriye mu nama b'abagabo ndetse n'abagore, muri iyi nama kandi harimo n'abasore kuko iyi nama yahuje abantu b'ingeri zigiye zitandukanye.

Urubyiruko rwambaye imyenda irimo amabara y'ubururu ndetse n'umukara, bahuriye ahantu mu nyubako, iyi nyubako iberamo inama zihuza abantu benshi baturutse mu mpande zose z'Igihugu.

Abantu benshi bafite idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, harimo abana ndetse n'abantu bakuru, bari ahantu bahuriye bigaragara ko baje kwamamaza umuyobozi w'Igihugu cy'u Rwanda.

Umukecuru uri kwitabwaho na muganga, bambaye imyenda y'ubururu n'umutuku, hirya yabo hari ibiti bihashinze, bari mu nyubako nini cyane.

Abantu benshi bari mu muhanda, bahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko igira iti: "Kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye." Bari kugenda mu muhanda bigaragara ko bari kugenda babishishikariza abantu.

Abagore batatu bari ahantu ku musozi, babafite inkoni mu ntoki. Aba bagore harimo umwe uteruye umwana arimo kumwosa, bari ahantu bishimye.

Abantu benshi bambaye imyenda y'umukara ndetse n'amakoboyi, bari mu nama yahurijwe hamwe n'abantu benshi baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu, kugira ngo bakemure ibibazo bimwe na bimwe bahura nabyo.

Umugore wicaye mu nyubako ubona ko afite ikibazo, iyo umuntu afite ikibazo biba byiza iyo agiye ahantu hari abandi kugira ngo atigunga bityo bigatuma yitakariza icyizere.

Umukobwa ufite amenyo y'umweru, arimo guseka kandi arishimye, afite imisatsi myinshi y'umukara, iruhande rwe hari umuganga uri kumwitaho.

Umuganga uri kwita ku murwayi amuvura indwara y'amenyo kugira ngo abashe gukira. Uyu murwayi yambaye umupira w'umukara ndetse afite n'imisatsi myinshi.

Umugabo uri gukoresha akadodo asukura amenyo, iyo ukoresheje akadodo usukura amenyo yawe neza maze imyanda yose ukayimaramo, iyo udakoresheje akadodo imyanda myinshi isigara mu menyo.

Umukobwa ufite amenyo y'umweru arimo guseka, imbere ye hari umuganga uri kugenda amwitaho kugira ngo asukure amenyo ye neza maze agire ubuzima bwiza.

Kwa muganga aho abarwayi bahabwa ubufasha, hari umuganga uri kwandika ibintu bigiye bitandukanye, harimo imiti ndetse n'ibindi byinshi.

Umusore w'umuganga, afite ubunararibonye mu bijyanye n'ubuvuzi, biragaragara ko yishimye kandi anezerewe.

Umwana w'mwirabura uri guhabwa ubufasha ku ndwara yasanganywe, ni umwana w'umukobwa. Biragaragara ko ababaye kandi akeneye gukira.

Umuganga uri kuvura umusaza. Arimo kumuvura indwara y'amenyo ndetse amuryamishije ku ntebe. Uyu muganga ni umusore munini.

Umuntu wambaye ishati y'umweru, arimo arakoresha ibikoresho bifashisha bavura amenyo kandi ari gukoresha ibyo bikoresho kuri icyo gishushanyo kigaragaza mu menyo y'umuntu.

Umwana uri kwitabwaho na muganga amuha ubufasha ndetse amusuzuma indwara afite. Uyu muganga yambaye uturindantoki.

Abana bari kumwe n'umwarimu wabo bafite uburoso na korogate mu ntoki, barimo kwifotoza bishimye kandi biragaragara ko bari bari mu masomo maze barangije barifotoza.

Umukobwa uri gusukura amenyo akoresheje uburoso na korogate afite imisatsi myinshi, uyu mukobwa kandi yambaye umupira w'umweru ari n'ahantu hari amabara y'umweru.

Umwana uri kuvurwa indwara y'amenyo, uyu mwana ni inzobe kandi arishimye, ari kwitabwaho n'umuganga wambaye uturindantoki.

Ahantu hateraniye abantu benshi bambaye amakoti, amashati ndetse n'imipira myiza, harimo abantu bishimye bari guseka, bigaragara ko babyishimiye kandi byabanejeje.

Umusore uri kumwe n'umukobwa bari gukura amenyo yabo bakoresheje akadodo, bari kwireba mu ndorerwamo ndetse biragaragara ko bishimye.

Umukobwa wishimye uri guseka ni umwirabura, uyu mukobwa kandi ni mwiza, araseka yishimye kuko iyo umuntu yishimye bimwongerera iminsi yo kubaho akabaho neza.

Inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abaganga bita ku barwayi. Ibyo bikoresho byiganjemo amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umukara.

Umuganga wicaye ku ntebe y'icyatsi ari mu nyubako nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, yambaye ipantaro y'umukara ndetse yambaye n'itaburiya iri mu mabara y'umweru.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru yicaye mu cyumba, uyu muganga kandi biragaragara ko yizeye gutanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Kwa muganga haba ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa kugira bavure abarwayi, harimo ibyo abaganga bahereza abarwayi ngo bicareho maze babakurikirane, bamenye ikibazo bafite.

Umusore wambaye indorerwamo z'amaso, afite ubwanwa bwinshi ndetse yambaye umupira w'umweru, bigaragara ko yishimye, ni umusore mwiza ukeye.

Abantu bambaye imyenda y'ubururu, umweru ndetse n'umukara, bagannye ahantu hatangirwa serivise y'ubuvuzi kugira ngo bahabwe ubufasha.

Umusore uri gukoresha akadodo asukura amenyo, uyu musore ni umusore ufite imibiri yombi kandi bigaragara ko yishimye. Iyo ukoresheje uburoso na korogate ntabwo imyanda yose uba uyimazemo, biba byiza iyo ukoresheje akadodo.

Umugabo n'umugore bari kureba muri telefone, imbere yabo hateretse amazi yo kunywa. Bari mu nyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse barishimye kandi baranezerewe.

Abagore bahuriye ahantu barimo kwifotoza, bari ahantu mu murima w'ibigori, ubona ko ari abahinzi babigize umwuga ndetse babikuramo amafaranga.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda y'umukara ndetse n'umutuku, ari ahantu muri jaride nziza iteyemo n'ibiti, hirya ye hari izindi nyubako zikorotiriye neza.

Umukecuru wambaye indorerwamo z'amaso, yambaye umupira w'ubururu. Afite agakombe mu ntoki. Ari ahantu mu cyumba gisize irangi ry'umweru. Uyu mukecuru, afite imvi nyinshi.

Umugabo uri kureba ku isaha yambaye ishati ijya gusa nki'vu, afite isaha ku kuboko ari kugenda arebaho, uyu mugabo ni umusaza.

Abantu benshi bicaye munsi y'igiti, bari gukora inama. Bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu, umuhondo n'umukara, harimo abagabo, abagore, abasore n'abana.

Umusaza uri kumwe n'umuganga, ari kumuha ubufasha butandukanye ku ndwara arwaye, bari mu nyubako nini iberamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Umuganga uri kwita ku murwayi yambaye imyenda irimo ibara ry'ubururu, uyu muganga yambaye agapfukamunwa, bari ahantu muri jaride nziza irimo amahumbezi.

Umukecuru uri kumwe n'umuganga uri kumwitaho, bari ahantu muri sale nini ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi, muri iyi nyubako kandi hasizemo irange ry'umweru.

Umuganga uri gusuzuma umurwayi kugira ngo arebe ikibazo, afite uyu murwayi ni umusaza wambaye indorerwamo z'amaso.

Umukecuru wicaye mu kagare ari kwitabwaho n'umuganga, amuvura indwara zigiye zitandukanye. Ni umukecuru bigaragara ko akuze kandi akeneye ubufasha.

Umuganga uri kumwe n'umukecuru, bigaragara ko amaze kumuha ubufasha bujyanye n'ikibazo yari afite, hanyuma bari kwifotoza.

Umusaza uri kumwe n'umukecuru bari kunywa imiti, bicaye iruhande rw'ameza manini akoze mu mbaho kandi hejuru ku meza hariho indabo.

Umusaza uri kumwe n'umukobwa barimo kwifotoza, bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umuhondo, bigaragara ko bishimye kandi banezerewe.

Umusaza barimo kuhagira, uyu musaza biragaragara ko akuze, afite imyaka hejuru ya mirongo inani.

Abagore babiri bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hirya yabo hateye ibiti byinshi. Ni umugore ufite mverope mu ntoki n'undi ufite icyuma mu ntoki.

Umugore uri kunywa imiti kugira ngo akire ahantu mu nyubako nini iberamo ibikorwa bigiye bitandukanye, ni umumama ubona ko akuze ufite imyaka myinshi.

Umusaza wambaye indorerwamo z'amaso arimo arandika, uyu musaza kandi ari mu nyubako nini iteye amarangi y'umweru ndetse harimo ameza.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye cyane cyane imiti, iri soko ririmo imbuto z'amoko menshi aho abantu baturuka hirya no hino bakaza kugura.

Umugore n'umugabo bakikiye umusaza. Uyu musaza biragaragara ko ari mu za bukuru. Iyo umuntu akuze aba akeneye abantu bamuba hafi.

Umuganga w'umugore arimo aravura umusaza wambaye umupira w'ubururu, uyu muganga kandi yambaye impuzankano y'umweru, arimo aramenyereza umurwayi kugira ngo arebe niba yakize koko yitahire.

Umuganga uri kwita ku musaza arimo aramuvura indwaragiye zitandukanye, imbere ye hateretse ibitabo ndetse hari n'amazi yo kunywa kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Abasore babiri bambaye amakote bigaragara ko bakora imyitozo ngororamubiri, aba basore kandi bari kwifotoza bigaragara ko bishimye.

Abaganga bambaye amakanzu abarinda kwandura indwara, aya makanzu akozwe mu mashashi, bambaye kandi n'udupfukamunwa turi mu ibara ry'ubururu, bigaragara ko bagiye kuvura indwara zandura.

Ahantu hateraniye abantu benshi bambaye amakoti ndetse n'imipira myiza cyane, bari kwiga ku bibazo bijyanye n'ubuzima, indwara zandura ndetse n'izindi zitandura.

Umukecuru wagize ikibazo ku jisho arimo kureba nk'ufite ikibazo, yambaye imyenda irimo amabara y'umweru ndetse n'umutuku.

Umugabo wambaye ikoti ryiza, ishati ndetse na karuvati ari imbere, ari gutanga imbwirwaruhame. Umuyobozi mwiza niwe ufasha abaturage gutera imbere.

Umugabo wambaye ingofero ndetse n'amarinete afite urupapuro mu ntoki, ari munsi y'igiti kandi arimo kwitegereza hakurya areba abantu barimo gutambuka.

Abagabo babiri barimo kwifotoza, bambaye amakoti meza ndetse n'amashati, umwe yambaye indorerwamo z'amaso, undi ntazo yambaye.

Umusore urimo guseka, yambaye ishati y'ubururu, uyu musore kandi biragaragara ko afite imyaka hagati ya makumyabiri n'itanu ndetse na mirongo itatu. Ni umusore mwiza ubona ko yitonda.

Ababyeyi bahuriye mu nyubako, bambaye imyenda y'umutuku, umuhondo, icyatsi ndetse n'umukara. Bari ahantu, bigaragara ko ari mu nama bahuriye.

Abantu bari gukora imirimo igiye itandukanye iy'ubwubatsi, ubuganga, ubuhinzi ndetse n'ibindi bikorwa barimo barabikora babikunze kandi babyishimiye.

Umukobwa uri kumwe n'umugabo barahagara, umugabo yambaye ikoti ryiza ry'umukara naho umugore yambaye ikanzu, bari imbere y'icyapa kinini.

Umuntu ufite ikibazo ku mubiri, bigaragara ko yarumwe n'igisimba kikamwangiza ku ruhu, akeneye kujya ku ivuriro kugira ngo ahabwe ubufasha.

Mu nyubako nini ahari umukobwa ufite indangururamajwi, ari kugeza imbwirwaruhame ku bamukurikiye, ari ahantu muri sale nini.

Abantu benshi cyane bahuriye mu nyubako, bambaye imipira y'umweru ndetse bafite imisatsi y'umukara, ni ahantu ubona ko ari heza kandi hatangirwa serivisi zigiye zitandukanye, imbere hari umuntu uri kubaha ikiganiro.

Ikigo kinini kirimo indabo nyinshi ndetse n'amabara agiye atandukanye, harimo icyatsi, umweru, umukara ndetse n'andi mabara menshi.

Kwa muganga hahuriye abantu benshi baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda irimo amabara y'umukara, umutuku ndetse n'umweru. Hahagaze abantu bari kubareba.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, iyo umuntu yubatse inzu nziza aba afite amafaranga yizigamye mu mutungo utimukanwa, inzu ni nziza kuko iyo uyifite uba ukomeye.

Umuhanda wa kaburimbo uri hagati y'ibipangu bibiri, uyu muhanda uri hagati y'inzu zisize amarangi y'umweru n'umukara, uyu muhanda kandi unyurwamo n'ibinyabiziga byinshi.

Inyubako irimo ibikoresho bi bitandukanye byifashishwa kwa muganga, harimo ameza, intebe ndetse n'ibindi, harimo kandi amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Inyubako isize amarangi y'ubururu, haparitse imodoka imbere yayo. Iyo modoka ni imodoka itwara abantu mu buryo butari ubwa rusange.

Muganga hari ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha barimo kuvura abarwayi, muri ibyo bikoresho harimo nk'ibitanda baryamaho ndetse n'imeza bakoreraho, aha hantu ni heza.

Umuganga uri kwita ku murwayi, yambaye itaburiya y'ubururu, bari mu nyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye bijyanye n'ubuvuzi.

Ibikoresho byifashishwa n'abantu kugira ngo bakore imirimo yabo ya buri munsi, ni ibikoresho bikoranye ubuhanga kandi nkuko bigaragara ni byiza, birahenze, bigura amafaranga menshi.

Inyubako nini isize amarangi y'umuhondo, iruhande rwayo hari umugabo uhahagaze, inyubako kandi ikorerwamo ibikorwa bitandukanye bijyanye n'ubuvuzi.

Inyubako irimo ibyumba byinshi bitandukanye, iyi nyubako kandi isize irangi ry'umweru n'irindi ry'umukara, aha hantu haberamo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Kwa muganga hafashirizwayo abantu barembye kandi bafite ibibazo by'ubuzima, iyo muganga afashije umurwayi akamwandikira imiti bituma akira vuba.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, iruhande rwayo hateye indabo nyinshi, hagati muri iyo nyubako harimo umuhanda wa kaburimbo.

Kwa muganga, ahafashirizwa abarwayi baturutse mu bice bitandukanye, hari ibikoresho birimo amabara y'umukara, umweru ndetse n'ayandi agiye atandukanye.

Kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi hariyo ibitanda, ibyo bitanda birimo amabara y'ubururu, umweru n'umukara, hari amabara menshi ari muri iyi nzu yiganjemo.

Abaganga bambaye amataburiya y'ubururu bambaye n'udupfukamuwa, bari imbere y'inyubako nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aha hantu niho bafashiriza ababyeyi baje kubyara kugira ngo bahabwe serivisi nziza.

Inyubako nini irimo ibirahure, hagati muri iyo nyubako harimo amapave ndetse n'ibyatsi byinshi, bigaragara ko hakorerwa imirimo igiye itandukanye.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi, iteye amarange y'umuhondo ndetse hari imodoka nyinshi, aha hantu biragaragara ko ari ku bitaro bitangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Ibitaro bya Kigina ni ibitaro bitangirwamo serivisi z'ubuzima, aha ngaha niho abarwayi bavurirwa bakabasha gukira vuba.

Umuganga uri kwita ku murwayi, amutera inshinge, uyu murwayi biragaragara ko yari arembye none ari guhabwa ubufasha kugira ngo amere neza.

Inyubako isakaje amabati y'ubururu izengurutseho ibyuma byinshi bikorotiriye, harimo n'ibyatsi hagati muri iyi nyubako.

Inyubako nini isize amarangi y'icyatsi ndetse n'umuhondo, haberamo ibikorwa bigiye bitandukanye. Ni ahantu heza, wakwishimira kujya, maze ukishimisha, ukabaho wishimye.

Inyubako irimo indorerwamo z'amaso zifashishwa n'abantu mu gihe barwaye amaso, ni ahantu ushobora gukura ibi bikoresho byagufasha kugira ngo ubashe kubona neza.

Inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abaganga, harimo intebe, ibitanda baryamaho ndetse n'ibindi bikoresho, harimo imitako myiza ndetse hasa neza.

Inyubako nini, irimo ibikoresho byo kwa muganga, byiganjemo ibyo abaganga baryamishaho abarwayi kugira ngo babasuzume. Harimo ameza, intebe ndetse n'ibindi bikoresho.

Inyubako irimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga, harimo ibitanda, ameza ndetse n'ibindi byuma by'ikoranabuhanga.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, ni ahantu heza harimo ibitanda, amarido, ndetse na matera zisashe kuri ibyo bitanda.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane iby'ubuvuzi ndetse n'ubucuruzi. Harimo amabara menshi, umukara, umweru, umuhondo ndetse n'icyatsi.

inyubako nini irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa kwa muganga kugira ngo bite ku barwayi, ibyo bikoresho harimo ibitanda ndetse n'ameza.

Umukobwa uteruye uruhinja ari kurwitaho kandi arimo ararusekera, ari mu cyumba kinini gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Ibikoresho bigiye bitandukanye biri mu nyubako ikorerwamo ubuvuzi, harimo iby'umukara, umweru, ndetse ni heza, aha hantu hafashirizwa abarwayi.

Ibikoresho abaganga bakoresha bavura abarwayi, harimo intebe, ibitanda ndetse n'ibindi bitandukanye, hano hari umuganga wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, biragaragara ko yabyize kandi abisobanukiwe.

Abantu benshi bari mu nyubako bambaye amashati, y'umweru n'amapantaro y'umukara. Bari mu nyubako isize amarangi meza kandi nini.

Iyo umuntu ageze kwa muganga ahasanga ibikoresho bigiye bitandukanye, ibyo bikoresho twasangamo ibyo bapimisha abarwayi ndetse n'ibindi byifashishwa mu gukora ibindi bikorwa.

Ibikoresho byifashishwa n'abaganga kugira ngo bavure abarwayi, muri ibyo bikoresho harimo ibifite amabara y'umweru, icyatsi ndetse n'umukara, harimo ameza ndetse n'intebe.

Inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo intebe ameza ndetse n'ibindi, hateraniyemo abantu benshi baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu.

Umusore uri guhabwa ubufasha na muganga arimo aramutera urukingo. Iyo umuntu yikingiye indwara zigiye zitandukanye bituma umubiri we ugira ubudahangarwa.

Inyubako irimo amabara agiye atandukanye, inyubako iruhande rwayo haparitse imodoka nziza y'umukara, iri mu ubwoko bwa Toyota.

Inyubako irimo amabara y'umuhondo, umweru, n'ubururu, hateyemo ibiti bigiye bitandukanye. Harimo kandi n'ibiti bihari.

Inzu nini, irimo intebe. Iyi nzu, yubakishije amatafari ahiye kandi iteye amarangi meza. Ni ahantu ubona hakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye.

Umuganga uri kuvura umwana bigaragara ko afite ikibazo. Muri iyi nyubako kandi harimo undi umusore uteze igitambaro mu mutwe.

Ibikoresho byifashishwa n'abaganga bavura abarwayi. Ibi bikoresho harimo ibitanda, ameza, ndetse n'intebe.

Kwa muganga hari umurwayi uri kwitabwaho na muganga kugira ngo arebe ikibazo afite, ni mu nyubako isize amarangi y'umuhondo ndetse iberamo ibikorwa bitandukanye by'ubuvuzi.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, irimo amabara y'umukara ndetse n'umuhondo. Hagati muri iyo nyubako hanyuramo umuhanda wa kaburimbo, urimo amabara y'umukara n'umweru.

Inyubako nini irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ameza, intebe ndetse n'ibindi, iyi nyubako yubakishije ibirahuri by'umukara ndetse ifite inzugi z'ibirahuri.

Inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Harimo intebe, ameza, utubati ndetse n'ibindi byinshi biri muri iyo nyubako. Hateyemo amarangi y'umweru.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, hari imodoka iri gusohoka muri iyo nyubako, iyo modoka ni nziza kandi itwaye umuntu umwe.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, isize amarangi y'ubururu n'umuhondo, ni inyubako nziza bigaragara ko ari inzu ihenze.

Kwa muganga habaho ibikoresho bigiye bitandukanye, muri ibyo bikoresho twavugamo nk'ameza, intebe, utubati ndetse n'ibindi abaganga bakenera.

Inyubako nini isize amarangi y'umuhondo irimo ibikoresho bikenerwa mu buzima bwa buri munsi, harimo intebe, ameza, utubati n'ibindi.

Inyubako nini irimo umuhanda wa kaburimbo, hateyemo indabo nyinshi ndetse n'ibyatsi bya pasiparomu, isakaje amabati y'umutuku, ndetse iteye amarangi y'umweru.

Mu cyumba kirimo umuganga uri kwigisha umwana umubare w'amenyo, aramwereka amenyo ikiremwamuntu kiba gifite ndetse amwigisha uburyo bayabara.

Umugabo uri kwa muganga arimo aravurwa indwara zigiye zitandukanye. Aryamye ku gitanda iruhande rwe hari serumu bamuteye kugira ngo bamwongerere amaraso.

Inyubako nini itangirwamo serivisi zitandukanye, cyane cyane iz'ubuvuzi, ni ahantu ubona ko ari heza hubatse neza.

Inyubako nini isize amarangi y'umweru, iri ahantu hari imodoka nyinshi ubona ko hahurerwa n'abantu benshi, hari umusekirite uri ku muryango, ugenzura abinjira ndetse n'abasohoka.

Inyubako nini isize amarangi y'umukara ndetse n'umweru, iyi nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi cyane cyane ubuvuzi bw'amaso.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, iruhande rwayo hari icyapa kiyobora abagenzi, hirya gato hari ibiti binini cyane bikurura umuyaga abantu bahumeka.

Umuganga urimo kwita ku murwayi, afite igitabo ari kugenda asomamo, arimo guseka kandi arishimye, yambaye itaburiya y'umweru n'ishati y'umukara.

Inyubako irimo umuhanda wa kaburimbo, iteyemo indabo nyinshi, inyubako kandi harimo urutoki, isize amarangi y'umweru, umukara n'umuhondo.

Inyubako nini isize amarangi y'mweru, iruhande rwayo hateye ibiti. Biragaragara ko ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse igatangirwamo serivisi nyinshi zigiye zitandukanye.

Inzu nini ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, harimo ibikoresho byinshi biri mu mabara y'umweru. Iyi nzu kandi harimo ibirahure n'ibindi byinshi byifashishwa n'abantu.

Umuganga urimo kwita ku murwayi, bambaye imyenda y'ubururu n'umukara kandi umurwayi yambaye inkweto nini zirimo amabara y'umukara n'umweru.

Umwana wari urimo gukora imyitozo ngororamubiri, yagize ikibazo biragaragara ko yari ari gukora siporo yo kwiruka maze agira ikibazo.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku n'umukara, bari ahantu ubona ko ari heza, hakorerwa siporo kandi nziza z'ingirakamaro.

Umukobwa uri kunywa amazi, bigaragara ko avuye mu myitozo ngororamubiri, uyu mukobwa kandi yambaye isengeri y'ubururu, bigaragara ko azi akamaro ka siporo.

Umukobwa uvuye mu myitozo ngororamubiri, yambaye imyenda y'ubururu. Uyu mukobwa biragaragara ko azi akamaro ka siporo kandi azi n'ibyiza byayo.

Ibikoresho abantu bifashisha mu buzima bwa buri munsi kugira ngo bakore ibikorwa byabo, iyo ufite ibikoresho bituma ubasha gukora imirimo yawe kandi neza, ariko iyo nta bikoresho ufite birakugora.

Abantu bari mu nyubako bigaragara ko itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hari umurwayi uryamye ku gitanda ubona ko ari kwitabwaho n'abaganga.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri ari mu cyumba gikorerwamo siporo, uyu musore biragaragara ko azi akamaro ka siporo kandi azi inyungu yabyo.

Mu nyubako nini ahari kuvurirwa umusore wavunitse akaguru, hari abaganga benshi baje kumufasha, biragaragara ko yavunitse arimo gukina umupira w'amaguru.

Abantu benshi bavuye mu myitozo ngororamubiri, bambaye imyenda ya siporo irimo amabara y'umukara, umweru ndetse n'umuhondo. Siporo ni nziza kuko ifasha umuntu.

Umukobwa uri kunywa amazi avuye muri siporo. Siporo ni nziza zituma umuntu arambuka ndetse bikamurinda n'indwara zigiye zitandukanye zituruka ku mubyibuho ukabije.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda y'icyatsi ndetse n'ubururu, ari ahantu mu kibuga gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kugira ngo yirinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda ya siporo. Ni umusore munini kandi bigaragara ko akora siporo, bituma yirinda indwara zitandukanye, zituruka ku mubyibuho ukabije.

Umusore uri kwitabwaho na muganga, amuha ubufasha ku ndwara afite. Uyu musore yambaye imyenda irimo amabara y'umukara ndetse n'umweru.

Umukobwa wambaye imyenda y'imikara, arimo gukora siporo. Uyu mukobwa kandi ari ahantu heza hakorerwa imyitozo ngororamubiri. Afite imisatsi myinshi.

Umukobwa wambaye umupira w'iroza n'ipantaro y'umukara ari muri siporo, siporo ifasha umuntu kugira ubuzima buzira umuze kandi bikamwongerera iminsi yo kubaho kuko aba yakoze siporo.

Amazi meza y'urubogobogo yifashishwa mu mirimo itandukanye ya buri munsi, iyo umuntu anyoye amazi meza bituma agira ubuzima bwiza.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri, arimo kunywa amazi. Uyu musore kandi yambaye umupira w'umukara. Biragaragara ko yishimye kandi anezerewe.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri, ari kunywa amazi. Yambaye isengeri y'umukara, bigaragara ko ananiwe.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye imyenda y'imituku, ari mu nyubako nini abantu bahuriramo bagakora siporo ndetse bagafashanya, aha hantu ni heza kandi harakeye.

Kwa muganga haba ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abaganga kugira bavure abarwayi, muri ibyo bikoresho harimo ibyo baryamaho ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Kwa muganga hari umurwayi uri kwitabwaho n'umuganga bigaragara ko uyu murwayi yagize ikibazo cyo mu ivi, muganga ari kumupfuka amubwira ko yazagaruka.

Kunywa amazi meza birafasha kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza, ni byiza kunywa amazi buri munsi byibura litiro eshanu ku munsi kugira ngo wizere ko ubuzima bwawe bwagenze neza.

Umugabo wicaye imbere ya mudasobwa, arimo arayikoreraho raporo zigiye zitandukanye. Ari mu cyumba kinini cyo kwa muganga, kiberamo ibikorwa byinshi. Ni ahantu heza cyane.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri yambaye imyenda y'ubururu. Uyu mukobwa kandi afite imisatsi myinshi kandi biragaragara ko azi akamaro ka siporo.

Imiti yifashishwa mu buzima bwa buri munsi kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza, iyi miti kandi irafasha bityo bigatuma abantu babaho neza, iyo ukoresheje imiti wandikiwe na muganga ukira vuba.

Umusore wambaye umupira w'umweru, yambaye na ekuteri. Ni umusore bigaragara ko avuye mu myitozo ngororamubiri, ari kunywa amazi kuko amazi ari meza.

Umusore n'umukobwa bavuye mu myitozo ngororamubiri, bambaye imyenda ya siporo ndetse bari kunywa amazi, biragaragara ko ari abantu bazi akamaro ka siporo.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri yamanitse amaboko, yambaye ekuteri y'umweru n'umupira w'umuhondo, ari kwitegereza hakurya ku musozi kugira ngo yumve amerewe neza.

UImuganga wambaye agapfukamunwa imbere ye hateretse mudasobwa ndetse n'ibitabo ari kugenda yandikamo, umuganga yambaye uturindantoki tumufasha kwirinda.

Mu nyubako nini irimo abaganga, bambaye udupfukamunwa ndetse n'ingofero, harimo abagabo ndetse n'abagore, barimo baritegereza ku mafoto ari muri televiziyo.

Umuntu uvuye mu myitozo ngororamubiri yavunitse akaboko, biragaragara ko afite ikibazo mu nkokora akeneye umuganga kugira ngo amufashe.

Umusore uvuye mu myitozo ngororamubiri, yagiye kwa muganga kubera ko yavunitse. Muganga arimo kumwitaho ndetse amugorora kugira ngo yongere amere neza.

Umuganga urimo kwita ku murwayi wavunitse akaguru. Ni kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hamwe abantu benshi bahurira bagahabwa ubufasha.

Umuti w'igikakarubamba uvamo imiti igiye itandukanye, aho uvura indwara nyinshi zananiranye, uyu muti kandi abantu bakunda kuwifashisha iyo bagize ibibazo bitandukanye.

Igikakarubamba ni umuti ushobora kugufasha gukira indwara zigiye zitandukanya, uyu muti kandi ni mwiza kuko iyo uwukoresheje uragufasha ugakira vuba.

Imiti gakondo yifashishwa mu buzima bwa buri munsi kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza. Iyo umuntu arwaye akenera imiti gakondo kugira ngo imufashe maze abashe gukira.

Uducupa turimo amabara y'umukara, umweru ndetse n'icyatsi, turimo imiti. Iyi miti harimo umuravumba, igikakarubamba ndetse n'iyindi.

Umuti w'igikakarubamba ni umuti mwiza kandi uvura, uyu muti iyo uwukoresheje neza bituma ugira amenyo akeye kandi meza.

Umuti w'igikakarubamba ni umuti mwiza ufasha, uyu muti iyo ukoresheje neza bituma ubasha kugira ubuzima buzira umuze kandi bwiza.

Igikakarubamba ni umuti wifashishwa mu gihe bavura indwara zigiye zitandukanye. Uyu muti kandi ufasha abantu b'ingeri nyinshi kuko uvura kandi neza.

Umuravumba ni umuti wifashishwa kugira ngo umuntu yivure indwara zigiye zitandukanye, uyu muti kandi urafasha iyo uwukoresheje neza, bituma ugira ubuzima bwiza.

Igikakarubamba ni umuti uvura kandi vuba, uyu muti ukiza abantu benshi indwara zigiye zitandukanye, iyo umuntu yivuje hakiri kare arakira kubera ko kwirinda biruta kwivuza.

Imiti gakondo yifashishwa mu buzima bwa buri munsi kugira ngo havurwe indwara zigiye zitandukanye, iyo ukoresheje iyi miti bituma ukira kandi bikakurinda kurembera mu rugo.

Hano hari imiti gakondo iri mu moko agiye atandukanye, iyi miti kandi abantu bayifashisha iyo bafite ibibazo by'uburwayi bugiye butandukanye, iyo uyikoresheje neza ukira vuba.

Umuravumba ni umuti uvura indwara zigiye zitandukanye zananiranye, uyu muti kandi iyo ukoresheje neza ubasha gukira, baca umugani mu kinyarwanda ngo kwirinda biruta kwivuza.

Umuravumba ni umuti wifashishwa kugira bavure indwara zigiye zitandukanye, iyo umuti ukoreshejwe neza bituma ubasha gukira vuba maze ugasubira mu buzima busanzwe.

Abantu bagiye gutembera mu musozi, bari kwitegereza ibyiza bitatse uwo musozi. Harimo ibiti byiza ndetse n'amazi.

Igikakarubamba ni umuti uvura indwara nyinshi zananiranye, iyo umuntu akoresheje uyu muti bituma agira ubuzima bwiza akabasha gukira vuba, iyo ukoreshejwe neza uvura n'izindi ndwara nyinshi.

Imiti gakondo yifashishwa mu buzima bwa buri munsi kugira ngo bavure indwara zigiye zitandukanye. Iyo ukoresheje iyo miti neza bituma ukira vuba kandi bigatuma usubira mu mirimo yawe ya buri munsi.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti, harimo abantu babiri, harimo uwambaye umupira w'umuhondo ndetse n'umuganga wambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru.

Imiti gakondo yifashishwa n'abantu bagiye batandukanye kugira ngo bavure indwara zabazengereje, iyo ukoresheje umuti neza uko wa wandikiwe na muganga bituma ubasha gukira vuba.

Igiti cy'umusave kifashishwa mu gukoramo, ibikoresho bigiye bitandukanye. Iyo gikuze barakibaza, bakagikuramo imbaho, ari zo zivamo intebe ndetse n'ameza.

Imiti gakondo iri mu ducupa tw'amabara agiye atandukanye harimo umweru, umuhondo ndetse n'umukara. Iyi miti kandi ushobora kuyifashisha wivura indwara zigiye zitandukanye.

Uducupa tw'imiti igiye itandukanye, iri mu macupa afite amabara y'umukara, icyatsi, ndetse n'ay'umweru.

Ishyamba ririmo ibiti by'amoko agiye atandukanye harimo ibibazwa ndetse n'ibindi bikorwamo inkwi zo gucana, ibi biti ni byinshi cyane.

Ibiti binini biri ahantu mu ishyamba, bikorwamo ibikoresho bigiye bitandukanye, iyo ibiti bikuze barabibaza, bakabikuramo imbaho kugira ngo bazifashishe bakoramo ibindi bikoresho.

Igikakarubamba ni umuti wifashishwa, kugira ngo abantu bavure indwara zigiye zitandukanye. Igikakarubamba ni umuti ukoreshwa n'abantu benshi, kuko ukiza kandi ukavura.

Imbuto zifashishwa mu buzima busanzwe kugira ngo abantu birinde indwara zigiye zitandukanye, iyo umuntu akoresheje imbuto, hari indwara zandura zituruka ku mirire mibi adahura na zo.

Igikakarubamba ni umuti mwiza abantu bakoresha kugira ngo bakire indwara zigiye zitandukanye, iyo ukoresheje uyu muti neza, bituma ubasha gukira bityo bigatuma ugira ubuzima bwiza.